Ni urugo mbonezamikurire cyangwa irerero harimo abana benshi bambaye hejuru ibara ry'umuhondo, hasi ibara ry'umukara, harimo ababyeyi babiri n'umugabo umwe bisa nk'aho ari abita kuri abo bana mu gihe baje muri iyo nzu mberabyombi.

Abana babiri bose bambaye ingofero z'abisilamu, umwe arimo gutera irangi ry'umweru, undi amuhagaze inyuma, mu buryo bwo kugira ngo undi yigire ku umwe kugira ngo babashe kwiga umwuga

Ndabona inyubako nshyashya, zifite amabati asa ubururu, naho haruguru insina z'imibyari n'ibitoki, hirya yaho igiti cya avoka, bigaraga ko yaba ari nk'amashuri cyangwa ib'indi bikorwa remezo.

Abana b'abahungu babiri n'abakobwa babiri basa nkaho barimo kuva kwiga bagenda baganira mu inzira, umukobwa umwe yari ahetse igikapu umuhungu umwe afite makayi mu intoki, barimo kugenda basubiramo bimwe mu byo baba bigiye mu ishuri.

Ndabona geti, hejuru hariho icyapa cyerekana igororero ry'abana rya Nyagatare, handitse hasi korekishonoro fasiliti bigaragara nkaho haza abana bakoze ibyaha kugira ngo baze bagororwe basubire muri sosiyete.

Ni bimwe mu bikoreshwa bipima ingero z'ahantu cyangwa z'ibintu ku buryo buri wese abona igipimo cya nyacyo mu buryo bwizewe kandi bwa buri wese yashobora gukoresha.

Inzu ya etaje igereretse rimwe, isakawe n'amabati asa ubururu, bugaragare nkaho ari ishuri cyangwa ari ahatujwe abantu nk'ibyo twakwita mudugudu w'icyitegererezo muri rusange, hakababa hari ibikorwa remezo byagezweho.

Ni inzu irangwa isakawe n'amabati y'umweru afite ibaramu ry'umuhondo amadirishya y'ubururu n'urugi rw'ubururu, imbere yaho hari ibendera ry'igihugu cy'u Rwanda ibara ry'umuhondo, ubururu n'icyatsi. Hino hari ikigega cy'amazi munsi yaho hari indabyo kugirango hagaragare neza.

Ni abantu benshi b'ingeri zitandukanye bisa nkaho ari abanyeshuri bari mu nzu mberabyombi barimo guhabwa impanuro cyangwa bigishwa ku mateka bagiye basanga kuri iyi si, kugira ngo bamenye aho bagana n'aho bavuye.

Hateraniye abantu benshi, hari umukobwa ubahagaze imbere bigaragare nkaho arimo aratanga impanuro cyangwa inama ku bitabiriye. Icyo gikorwa cyabereye mu inzumberabyombi uko byagenda kose ni inama yahuje bamwe mu ngeri zitandukanye.

Ndabona ameza n'intebe iriho ubusa biri muzu, hasi ni amakaro, hejuru ni amabara y'ubururu bukeye, bigaragare ko nkaho hari umuntu ujugukorerwamo akazi cyangwa ari ibindi runaka aje gukoreramo.